Bara irimo intebe, ameza, abantu baza kwicaraho iyo baje gufata icyo kunywa, ndetse bakaba bafata n'icyo kurya, bakiyicarira ahantu hanze hatuje, abadashaka kwicara mu nzu, ngo bafate icyo basabye batumijeho.

Bara nziza abantu baza kuruhukiramo, ikaba irimo abakozi bakira ababagana, bakabaha icyo babasabye bifuza gufatiramo, bayiruhukiramo haba amanywa cyangwa se nimugoroba.

Ibara nziza abantu basohokeramo iyo baje kuruhuka, baza gufatiramo icyo kurya ndetse n'icyo kunywa, bakahaganirira mu gihe amasaha aba ari gukura.

Bare aha irimo inzoga zitandukanye, abantu baza kunywa bakiyakiriramo, harimo abantu b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore, abasore, inkumi bakaba baje kunywa bicaye ku ntebe, bari kuganira banafata icyo kunywa.

Bare irimo intebe n'ameza abantu baza kwiyakiriramo mu gihe bashaka kuruhuka bavuye mu kazi.

Butike icururizwamo ubwoko bw'imitako butandukanye, abadamu cyangwa abagore bakunda kwambara, bakayambara mu majosi, cyangwa se ku kuboko, iyo mitako ikozwe mu masaro, ikaba ipfunditse ku tuntu tw'udushumi.

Butike igeretse kabiri, yubatswe mu buryo bwa etaje, ikaba ifite ibipande bibiri. Igipande kimwe kikaba gicururizwamo ubwoko bw'ibiribwa n'amavuta bitandukanye, aba ari mu bidomoro ndetse n'imyunyu n'ibiribwa biri mu dufuka, iruhande rwayo hari imodoka.

butike bita kenkawori icuruza amabati y'ubwoko butandukanye twifashisha mu gusakara amazu yo kubamo, ndetse bacuruza n'ibyuma by'udutibe bakoramo inzugi zikinga amazu, ndetse hakabamo n'ibihombo bifashisha ku mazi

Botike nziza irimo imiryango ine ikaba igeretse, hakaba hari ipoto imbere yayo y'amashanyarazi, hakaba hari umuntu uri ku muryango witeguye kuyinjiramo.

Butike ifunguye ifite umuryango uteye irangi ry'ubururu ikaba ari sema imbere kumuryango, iyo butike ikaba iriho amakaro hejuru hakaba hariho n'icyapa.

Butike yubakishijwe amatafari ahiye azitije igipangu, mu nda hakaba harimo amazu acururizwamo ibintu bitandukanye; Imbere hakaba hari icyapa cyanditsweho visiti hawuze Musanze.

Butike iri gucuruza ibyuma bitandukanye biri kuri etajeri, ibyo byuma bikaba bikoreshwa n'amashanyarazi iyo babyesitaye bakabicomeka, bikaba ariyo mpamvu bishobora gukora hashobora kubamo amaradiyo, n'ibindi byuma bivuga ari uko bikoreshejwe n'amashanyarazi.

Butike iri gucuruza ibyuma bitandukanye bijyanye n'ibyifashishwa ku magare. Hari amaringi, hari imipine y'igare, hakabamo n'ibindi bikoresho bakoresha bateranya igare. Ndetse hakaba harimo n'amaferabeto bakoresha bakora...

Butike nziza yubatswe ku buryo bugeretse, hoteli ikorerwamo ibintu bitandukanye bacuruzamo, abantu bakaza kwiyakriramo igihe bashaka kuruhutsa ubwonko bavuye mu kazi gatandukanye.

Butike ifite imiryango itanu. Imbere ya yo hakaba hahagaze moto itwara abantu cyangwa imizigo. Hakaba iruhande rw'iyo butike hari ipoto y'amashanyarazi, iruhande rw'iyo butike hakaba indi butike ifite umuryango wa dubure ifu.

Butike icuruza inzoga, ifite umuryango ukozwe mu byuma, ikaba ifite kontwara, imbere ya kontwara hateretse intebe abakiriya bicaraho, iyo baje kunywa.

Inyubako igeretse inshuro nyinshi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, akaba ari inyubako hamwe hakorerwamo ibintu bitandukanye bari gucururizamo.

Butike icuruza ibintu bitandukanye bikorwa mu mpapuro, n'ibyandikwaho n'izo mpapuro hakaba hari icyapa kibigaragaza, ikaba yubatswe mu buryo bugeretse hakaba ari butike imeze neza.

Butike ifite inkingi imbere. Ikaba iteye isima, ikaba hejuru harimo za kositara. Ikaba icururizwamo ibintu abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imbere yayo hakaba harambitse ibase.

Butike nziza iri ahantu heza hari amahumbezi, ikaba ifite amabati ayisakaje amaze igihe ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti byiza bifite amashami, ayo mashami akazana umwuka mwiza aho ngaho kuri iyo butike.

Inzu ya butike bacururizamo ibintu bitandukanye, ikaba ifite inkingi zifite irangi ry'icyatsi. Ikaba ifite imiryango itatu ya dubule, akaba imbere ya yo hari intebe, ndetse n'umumama ufashe umwana mu ntoki.

Butike yubatswe mu buryo bugezweho, ifite imiryango ine. Ikaba icururizwamo ibintu bitandukanye muri iyo miryango. Ikaba iri kumwe n'indi butike ifite ipoto iri imbere yayo, ipoto y'amashanyarazi hariho insinga zinyuze kuri iyo butike hejuru.

Inzu ya butike yubatse ku buryo bugeretse kandi ikubakwa ku buryo bugezweho, ikaba icururizwamo ibintu bitandukanye. Imbere yayo hakaba hari agacaca gateyeho uturabyo, hakaba hari n'ingaze abantu bazamukiraho bashaka kujya hara...

Inyubako yubatse mu buryo bwiza bugezweho. Yubakishijwe amatafari ya Ruriba ahiye meza, ikaba ifite umuryango ukingishijwe metarike n'amagiriyaje mu idirishya. Ikaba ifite imbere yayo agasima kameze neza, hakaba harimo ibyuma bikoreshwa n'amashanyarazi nka za kompiyuta.

Kabare icururizwamo inzoga za sikoro, iza pirimusi, hakaba imbere y'iyo kabare hari abantu bari kugenda. Bamwe bavuye kunywamo, abandi barikuhatambuka bigendera.

Butike bacururizamo ibintu bitandukanye ikaba ifite icyapa cyanditsweho sikoro ndetse na canari pirinze imanitse hejuru. Ku muryango ahagaze nk'umugore ndetse n'umugabo bategereje abakiriya baribuze babagana.

Butike icuruzwamo ibintu bitandukanye muri buri muryango. Mu muryango hejuru hamanitse imifuka bagurisha bagashyiramo ibintu, imbere y'umuryango hari ibihaza bitanditse bari kugurisha, ndetse hakaba n'umufuka urimo amakara.

Inzu nziza yitwa Muhabura. Bakoreramo ibikorwa byo guhanagura imyenda. Amakositimu igihe atameze neza yanduye, bakaza kuyameshesha bakayahanagura mu buryo bugezweho.

Butike yubatswe n'amatafari ahiye, ifite inkingi imbere Inyuma yayo hakaba hari indi yubatswe ku buryo bugeretswe bwa etage, ikaba ifite igipangu cy'amatafari ahiye hakaba hari ubusitani bw'ibiti buzana amahumbezi ndetse n'inzira.

Butike. Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, ifite igipangu cy'amatafari ahiye, gifite inkingi ziriho icyapa, ndetse n'umuryango mugari, hakabamo n'ibiti bibaha akayaga keza, abantu baje kwiyakiriramo.

Butike icururizwamo ibintu, harimo imifuka irimo kawunga n'imiceri, ku muryango hakaba hacururizwa za gaze zihateretse, hakaba'imbere hari umuntu uri ku igare, hakaba iruhande hari umutaka watangiraho mitiyu.

Butike ifunguye, ifite imiryango ibiri bacururizamo ibirayi, hari umunzani umanitse ku muryango, harimo n'umuntu uvuye kuguriramo ibirayi, abipakiye ku igare, arasunitse, babijyanye kubicuruza, hariho n'umugore uri imbere y'uwo muryango, ushobora kuba ari we uri kubicuruza.

Butike iri mu gucuruza ibikapu abantu bifashisha batwaramo ibintu, cyangwa se imyaka. Ndetse hakabaho n'amashuka ndetse n'ibiringiti na byo biri gucuruzwa, bagurisha abantu bakiyorosa iyo baryamye.

Isoko abantu batanditsemo hanze ibiribwa n'ibindi bintu bitandukanye, rikaba rikikijwe na za butike, nazo zicururizwamo ibintu binyuranye abantu bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hakaba harimo n'imitaka icuruza za emutiyene zitanga itumanaho.

Butike icuruza imyenda itandukanye yambarwa n'abagabo cyangwa abagore. Ikaba imbere yayo hari ibipupe bambitse iyo myenda itandukanye, kugira ngo umuguzi aze ajye arareba ashime uwo ari bugure.

Butike icururizwamo imyenda y'abadamu itandukanye yo kwambara, amashati y'ibitenge, ndetse n'iyindi bambara, n'ibikuvurori byo kwitwikira, ndetse n'imisego yo kwicaraho.

Butike icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo nko gufotora impapuro no gufotora abantu, harimo fotokopiyeze iteretse ku muryango ku meza. Yinjiriza umucuruzi amafaranga.

Butike iriho umutaka utwikiriye ibicuruzwa, hakaba hari agatabuleti kariho inkoko iriho ubunyobwa buri gucuruzwa n'amabombo, hakaba n'ubupaniye buri munsi y'iyo ntebe hafi y'iyo ntebe, hakaba hari umu ajenti utanga mitiyu ya Emutiyene.

Butike irimo ibicuruzwa, abantu bari kuza kugura, hakaba umuntu wicaye ku ntebe ku muryango, yicaye ku gatebe gakozwe muri purasitike, hakaba kandi agatabureti gakozwe mu biti, kari iruhande rwe, inyuma ye hakaba hari indobo ndende ifite amabara y'umutuku uvanze n'umweru.

Hoteli nziza abantu biyakiriramo bagafatiramo icyo kurya n'icyo kunywa bitandukanye. Iyi hoteli ikaba ikikijwe n'ibiti birimo ubusitani bwiza bituma haza akayaga keza, kafasha abaje kwiyakiramo guhumeka neza.

Hotel icuruzwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, hakaba abantu bayifashisha iyo bavuye mu kazi kabo ka buri munsi cyangwa mu ma wikendi igihe bashaka kwiganirira baza kuhanywera cyangwa ari kumugoroba bavuye mu kazi.

Hoteli nziza cyane igeretse inshuro nyinshi, iri ahantu hakikijwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza mu mahumbezi, ikaba yakira abantu b'ingeri zitandukanye, baba abatuye igihugu cyangwa se ba mukekerarugendo, ikinjiza amafaranga yinjiriza uwashoye uwo mushinga.

Isoko ririmo abantu batandukanye, abadamu bari gucuruza amatunda, amavoka, imyembe, imineke ndetse bikaba bimwe biri mu ndobo bitegereje abaraza kubagurira.

Isoko baremeshamo ibintu bitandukanye, hakaba harimo igitebo bazanamo ibyo baje kugurisha, cyangwa bagahahiramo, iruhande rw'icyo gitebo hakaba harambitse igitenge cy'umuntu wariremye.

Igihingwa bita insenda, zikaba ziri ku gakoko niho zitanditse. Izi nsenda zirahingwa, zigatekwa, zigaha uwazihinze amafaranga, barazigurisha, bakazishyira ku ifunguro, abantu bashaka kurya urusenda.

Isoko ritanditswemo amavuta yo kwisiga atandukanye bita igikotoro, abantu bisiga mu maso, ku mubiri, ndetse no ku maguru, agatuma uruhu rusa neza, rugatoha neza.

Imitego itega imbeba, ikozwe mu biti ,iyo mitego bakayita gakoco, bayishyize ahantu hamwe bigaragara ko bari kuyicuruza, ufata agakoco ,hanyuma ugatega, ,imbeba yaza kuruma ku kantu wahagitsemo ,kagahita bifunguka igahita ifatwa.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye. Harimo imineke iri mu ibase, hakabamo amaronji, hakabamo indimu, hakabamo ibitunguru, hakabamo amavoka, ibyo biribwa byose ni ibyo abantu bifashisha, harimo za kamara, iyo bashaka kurya ifunguro bikabaryohera, ndetse hakavamo n'amafaranga.

Isoko ry'ibiribwa hakaba harimo ubundondo butandukanye bumanitse kuturi esikariye harimo amavuta yo kwisiga abantu bisiga ku mubiri, hakabamo amasabune, hakabamo utundi dukoresho twinshi dutandukanye abantu bifashisha buri munsi.

Isoko riri gucuruza ibicuruzwa bitandukanye mu base harimo igitoki, hakabamo inyanya, hakabamo n'intoryi, hakaba hari umuntu uri iruhande rw'iyo base, uri gucuruza hakaba harimo n'ibindi bitandukanye.

Isoko ririmo gucuruza imyenda, ibikuvrori bitwikira cyangwa bagasasa ku bitanda kuri za matola, kugira ngo babashe kubyitwikira cyangwa se babyisasire mu gihe baryamye.

Umuntu uri muri butike mu isoko, akaba ari gucuruza ibyuma bikoreshwa n'amashanyarazi bitandukanye, munsi ya kotwara hakaba harimo ubwoko bw'imikati bakora mu ifarini abantu bifashisha bari kurya.

Isoko ricuruzwamo imyenda itandukanye harimo ibishora abadamu bambara, hakabamo imyenda y'amashati bambara, hakabamo icururizwamo ibikapu bifashisha hakaba harimo n'urutsinga rw'amashanyarazi ruri imbere hakabamo n'igare riri aho hafi.

Isoko bacururizamo amatara akoreshwa ku mashanyarazi, bakayacomeka nyuma agacana akabonesha mu mazu atandukanye. Hakaba harimo n'amavuta yo kwisiga mu maso abantu bagura.

Isoko. Barimo gucuruza ibidomoro cyangwa se ibijerekani, byifashishwa mu gutwara ibintu, kuvomesha amazi, gutwaramo umusururu cyangwa inzoga. Ibyo bijerekani bikaba biri mu mifuka.